Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara nu'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Icyumba cy'inama kinini gisakajwe isakaro ry'umweru ririho amatara, gifite ibikuta by'umweru, kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe zitukura zifite amaguru y'umuhondo, imbere yabo hari igitambaro cy'ubururu.

Icyumba cy'inama kirimo abantu cumi na babiri. Babiri muri bo bambaye amasengeri y'akazi, bicaye ku ntebe z'umukara bakikije ameza y'umuhondo. Hari ingofero y'akazi, amacupa y'amazi yo kunywa, ikayi, n'ikaramu. Bicaye bari kuganira, bari mu nama.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta bisize amarangi y'umweru gifite amarido asa ikigina, kirimo abantu benshi b'abagabo n'abasore bicaye ku ntebe z'umukara, bamwe muri bo bambaye amakoti ya kositimu, abandi bafite udutabo, abandi bafite telefone, hakurya hari imeza y'ikigina iriho icyuma gitunganya kandi kikayungurura amajwi.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta by'ibara ryijimye n'isakaro ry'umweru riho amatara kirimo abantu benshi barimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umweru bafite ameza ariho ibitambaro by'umweru ateretseho amazi na mudasobwa, hari umugabo wambaye umupira w'umukara ufite icyuma gifata amashusho wambaye ingofero y'umweru.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ebyiri imwe y'umukara n'indi yenda gusa umweru, tukabonamo inzu ku ruhande yarwo yubakishije amabuye kandi ifite amababi y'umutuku ni'gipangu cy'umukara.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta bisa umweru kikagira amadirishya ari gucamo urumuri n'amarido yubururu, kirimo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza y'umuhondo ateretseho mudasobwa, imfatamajwi, amazi na terefone n'ibipapuro.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta by'umweru kirimo abantu biganjemo abagore n'abagabo bicaye mu nama imbere yabo ha ameza y'umutuku ateretseho agakayi, hari umugore uhagaze wambaye ikarita y'ubururu y'akazi mu ijosi rye ufite insakazamajwi mu ntoki, hakurya hari umugabo wambaye ikositimu y'ubururu n'ishati y'umweru.

Icyumba k'inama gifite ibikuta bisa umuhondo n'amarido ari ku madirishya asa umweru, kirimo abagabo bagera kuri bane bicaye ku ntebe z'umukara, zizengurutse ameza y'umukara ateretseho amazi yo kunywa.

Icyumba k'inama kinini kirimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umuhondo, n'abicaye bari ku ntebe z'umukara n'abahagaze bari kurahira, iruhande rw'amadarapo igihugu cy'u Rwanda agizwe n'amabara y'ubururu y'icyatsi umuhondo, bamwe muribo bafite mudasobwa imbere yabo nbandi bafite amacupa y'amazi.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta bisize amabara y'umweru kimanitseho urupapuro rw'ubururu n'umweru ruriho amagadarapo y'bihugu bitandukanye n'urupapuro rw'umweru rwakira kandi rugasakaza amashusho, icyumba kirimo abantu barenga umunani bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza abajwe mu rubaho rw'umuhondo, hariho impapuro imfatamajwi, imitobe, n'amazi.

Icyumba c'yinama gifite ibikuta bifite amabara asa umuhondo; kirimo abantu barenga icumi bicaye ku ntebe zera, bakikije ameza yambaye umwenda w'umukara, ateretseho amazi n'impapuro. Abo bantu bambaye amakarita y'akazi y'umweru n'ubururu mu gatuza.

Ni icyumba k'inama gifite ibikuta bifite amabara y'umweru kirimo abantu barenga batanu bambaye imipira y'ubururu iriho ibirango by'Igihugu, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza afite ibitambaro by'umweru n'umuhondo ateretseho amasahani, amacupa y'amazi na telefone.

Umugore wambaye ikanzu y'ubururu n'umweru, uri mu cyumba cy'inama wicaye ku ntebe z'umweru, imbere ye hari ameza ariho igitambaro k'ikigina, ateretseho ikirahure bankweramo amazi n'icupa ry'amazi yo kunywa, na terefoni n'impapuro n'indabyo z'icyatsi inyuma ye hari abagabo benshi.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta biririko irangi ry'ikijuju n'umweru, ririmo abantu batatu abagabo babiri n'umugore umwe, bicaye ku ntebe z'ibyuma z'ikijuju imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru n'icy'igitenge, giteretseho amacupa y'amazi ibitabo na telefoni.

Ni icyapa kinini kigaragaza ko ari aho bagororera abakoze ibyaha. Urugi rufunze imbere harimo abashinzwe kurinda umutekano w'abagororwa babereka uburyo bwiza bagomba kwitwara.

Icyumba k'inama gifite imiryango ikozwe mu mbaho gifite amarangi y'umuhondo n'umweru, kirimo abagabo batatu bambaye ikositimu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza y'urubaho hariho impapuro z'imfatamajwi.

Icyumba cy'inama gisize amabara y'umweru kirimo abantu icumi ,icyenda bicaye ku ntebe z'umukara bakikije ameza ariho mudasobwa ,amazi ,terefoni hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu uri kubagezaho ijambo.

Icyumba cy'inama kirimo insakazamashusho, n'ibyapa bibiri biriho amadarapo y'u Rwanda n'amagambo yanditseho. Kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara, bagose ameza y'umukara ariho impapuro n'amacupa y'amazi.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta bisize amarangi y'umuhondo, kikagira imiryango ibajijwe mu mbaho, irimo abantu barenga cumi na babiri, bakubiyemo abagore n'abagabo bambaye kositimu bicaye ku ntebe z'umukara bakikije ameza yambaye ibitambaro by'umukara ariho amazi, amakaye, n'amakaramu.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo n'abagore bagera ku munani bicaye barebana bari gukora inama, bose bafite amazi imbere y'abo, babiri muri bo bafite mudasobwa imbere y'abo, undi umwe afite urufunguzo rw'imodoka imbere ye n'abandi bamwe muri bo bafite amakayi imbere y'abo bari kwandika.

Icyumba cy'inama gifite amabara y'umweru ku rukuta cyimanitsemo amafoto, gifite ibitambaro biri kumadirishya by'ubururu cyirimo abantu barenga makumyabiri bicaye ku ntebe z'umukara bareba imbere, ab'imbere bakikije ameza akoze mu giti gisa umuhondo imbere yabo hari ibitabo, amakayi na mudasobwa n'imfatamajwi imwe.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta by'umuhondo, n'amadirishya, n'ibirahure, kirimo abagabo batatu, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza atukura, ateretseho mudasobwa n'igikapu cya mudasobwa, umugabo umwe yambaye ikositimu y'umukara, n'ishati y'umweru, na karuvati y'umukara.

Umuhanda ni igikorwaremezo gifasha abantu bose mu buzima bwabo bwa buri munsi turavuga abamotari, imodoka ndetse n'abandi bantu bawukoresha mu buryo busanzwe burabafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Icyumba cy'inama kirimo abantu cumi na batanu abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe z'umweru bazengurutse ameza y'umukara ariho ibirahuri by'amazi n'amacupa y'amazi n'ibitabo n'amakaramu n'ibikapu bya mudasobwa.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta by'umuhondo n'bururu gikubiyemo abagabo benshi biganjemo abagabo bambaye amakositimu, bicaye ku ntebe z'ikijuju bakikiye mudasobwa imbere yabo, hari imigozi y'amashanyarazi bamwe bafite amacupa y'amazi.

Cy'inama gifite ibikuta bisa umweru kikagira amadirishya y'ibirahure kirimo abantu batanu harimo abagabo bane bambaye ikositimu n'umugore umwe wambaye amadarubindi, bicaye imbere yabo hari ameza y'umukara ateretseho ibipapuro mudasobwa n'amazi yo kunywa.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta bisize amabara y'umuhondo gifite n'inzugi zibajwe mu mbaho zitukura, kirimo abagabo barenga batanu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hariho ameza atwikirije igitambaro cy'umweru ateretseho amazi n'urupapuro rw'umweru n'ubururu.

Icyumba cy'inama kirimo amatara yaka cyane gifite amabara y'umweru ku bikuta, kirimo abagore n'abagabo bari mu nama bicaye ku ntebe z'umukara bakikije ameza akoze mu biti arebana, ameza ateretseho mudasobwa, telefoni, imfatamajwi n'amacupa y'amazi yo kunywa, hari imfatamashusho ebyiri zihagaze n'umugabo umwe wambaye imyenda y'akazi uri kuzikoresha.

Icyumba cy'inama kigali, kirimo ibikuta by'umweru bifite imfatamashusho ikanayasakaza, kirimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'ubururu bakikije ameza y'umutuku n'ubururu ariho imfatamajwi na n'impapuro.

Icyumba cy'inama kirimo abantu bari gukora inama higanjemo abagabo, abakobwa, abasore n'inkumi bagera kuri makumyabiri na babiri. Bamwe muri bo bafite amazi imbere yabo, indangururamajwi na mudasobwa.

Icyumba cy'inama kinini kirimo abagabo umunani bicaye ku ntebe z'umukara n'iz'ikijuju, bakikije ameza atukura ariho imfatamajwi, icupa ry'amazi yo kunywa, mudasobwa, amakayi n'amakaramu, imbere yabo hari insakazamashusho.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta by'umuhondo kirimo urupapuro rw'umweru rwakira kandi rugasakaza amashusho, kirimo urupapuro ruhagaze rw'umweru n'ubururu ruriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ry'amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi ririmo abantu benshi bicaye ku ntebe z'umutuku imbere yabo hari ameza azengurutse ari igitambaro cy'umweru ateretseho amazi na mudasobwa.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandatu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza y'umukara ateretseho icupa ry'amazi n'ikayi umukobwa wambaye amadarubindi ari kwandikamo akoresheje ikaramu y'ubururu.

Inama y'abaturage irimo abaturage biganjemo aba mama n'abakobwa bamwe bahetse abana, abandi bashyize ibitambaro mu mutwe, bahagaze inyuma abandi bicaye, imbere hari abandi bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru hari amakayi amakaramu n'amacupa y'amazi.

Icyumba k'inama gifite ibikuta by'ubururu byanditseho amagambo, Kigali yacu, Kigali ikeye, kirimo abantu batatu abagore babiri n'umugabo umwe bicaye ku ntebe z'umukara bari mu nama, imbere yabo hari ameza y'umutuku ateretseho mudasobwa terefone, n'imfatamajwi.

Inzu ifite amatafari ahiye n'imiryango n'amadirishya by'umweru ifite urubaraza rutwikiriye ruriho abantu benshi bari mu nama bicaye ku ntebe z'umweru, harimo ushinzwe umutekano n'umugore wambaye ishati n'ipantaro ufite insakazamajwi uri kuganira nabo.

Icyumba k'ininama gifite ibikuta bisa umweru, harimo igipapuro kinini cy'ubururu, cyanditseho Kigali yacu, kirimo abantu batatu bicaye ku ntebe z'umukara, bari imbere y'ameza y'umutuku n'umukara ateretseho terefone, impapuro n'imfatamajwi.

Icyumba k'inama kirimo abasore b'urubyiruko bambaye imipira y'ubururu isa, bicaye ku ntebe z'umweru n'umuhondo, bakikije ameza ariho ibitambaro by'umuhondo ariho n'amakayi ariho n'amazi yo kunywa, bicaye bareba imbere bari mu nama.

Abantu icumi higanjemo abagore bari kwifotoreza imbere y'inzu ite karabasasu isakaye n'imbere y'igisharagati cy'umweru n'bururu n'umuhondo kirimo abantu bicaye ku ntebe z'umweru bari kwifotoreza mu mbuga y'ibyatsi irimo igiti kirekire gifite amashami menshi muri bo bafite impapuro z'umweru.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta by'umweru kirimo abagabo bane batatu muri bo bambaye imyenda isanzwe, undi umwe muri bo wambaye imyenda y'akazi y'abashinzwe umutekano, bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza y'urubaho afite hejuru hasa umukara, ateretseho impapuro, terefoni n'amazi na mudasobwa.

Icyumba cy'inama kinini gifite ibikuta bifite amabara y'umukara kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru bari mu nama, imbere hicaye abagabo batatu bambaye amadarubindi n'amakositimu, imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umuhondo ateretseho amazi ibirahure byo kuyanywesha n'ibitabo na terefone.

Umukiriya wambaye umupira w'umuhondo n'umukara n'ipantaro y'ikijuju n'inkweto z'umweru, uhetse agakapu k'umukara, ari imbere y'inzu y'bucuruzi y'umuhondo, ifite imiryango n'amadirishya byumweru iriho icyapa cyamamaza cy'irembo.

Umunara muremure w'umutuku n'umweru uriho ibikoresho byifashishwa mu itumanaho, wegeranye n'igiti cy'ibyuma by'amashanyarazi kiriho imigozi itwara amashanyarazi mu ngo z'abantu hakurya hari amazu asakaye.

Urupapuro rw'ubururu rwashyizwe hanze y'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ruriho igishushanyo cy'inzu, ruriho ubutumwa bugaragaza uti umusoro w'ubukode wa bibiri na makumyabiri na kane garagaza umusoro w'ubukode ku nzu bibiri na makumyabiri na kane uwishyure bitarenze itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwambere bibiri na makumyabiri na gatanu sura urubuga rwacu wa wa wa akadomo ra ra ra akadomo gove akadomo rwa.

Umunara muremure w' icyatsi ukikijwe n' ibyuma by' umweru n' akazu kubabakishijwe amatafari ahiye, ufite umuryango w' ubururu. Ukikijwe n' ishyamba rifite ibiti birebire by' icyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'ikijuju n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, ahagaze imbere y'inzu y'ubucuruzi ifite amabara y'ubururu ikoreramo ikigo cy'ubucuruzi cya egisipuresi powenti, ni ikigo cy'ubucuruzi cya eko banki.

Umunara muremure ugizwe n'ibyuma byinshi biteranyirije hamwe, ufiteho ibikoresho by'umweru birebire n'ibyuruziga byifashishwa mu itumanaho, ryo kohereza ubutumwa no kubyakira, ikunzwe gutungwa n'ibigo by'itumanaho.

Raporo y'ubucuruzi yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri nabiri y'ikigo cyitwa santi purinta, kuri raporo hagaragaraho uko icyo kigo cyakoresheje amafaranga guhera ibihumbibiri na makumyabiri rimwe mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa cumi na kabiri, ibihumbibiri na makumyabiri na rimwe.

Umunara muremure ugizwe n'ibiti by'ibyuma byinshi biteranyije, uherereye ku butaka buriho uruzitiro rw'ibyuma, ukaba ufiteho ibikoresho birambuye n'ibizengurutse byifashishwa mu itumanaho ryo kohereza amakuru no kuyakira.

Umunara muremure w'icyuma ufite imigozi miremire y'umukara iwufasheho n'ibindi bikoresho byifashishwa mu itumanaho ryo kohereza no kwakira amakuru. Iyi minara ikunze kuba ifitwe n'ibigo by'itumanaho ahantu hatandukanye.

Urupapuro rw'ubururu rugaragaza ikigo gitegura kandi kikanatanga ibihembo by'abantu bitwaye neza mu masiganwa y'amamodoka, bizaba tariki icumi kugera cumi n'eshatu z'ukwa cumi nabiri, bibiri na makumyabiri na kane, byatewe inkunga n'umushinga wa viziti Rwanda.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe imbaho z'umuhondo, n'ibyuma by'umukara, iriho imitako y'imigongo igizwe n'amabara y'umweru n'umukara, irimo abacuruzi bicaye imbere ya mudasobwa, bafite icupa ry'amazi kuruhande rwabo hejuru hari ibyapa byamamaza by'ibigo by'ubucuruzi byamabanki ya ekwiti na banki ya Kigali.

Porogaramu iri kuri murandasi y'ikigo gishinzwe gutsura amajyambere mu Rwanda yerekana serivisi zitangirwa kuri interineti zandikwa n'umuyobozi ushinzwe kwandika harimo kwandika ikigo cy'ubucuruzi kwandika ingwate yacyo harimo n'ubukerarugendo no gufata umwanya kuri murandasi.

Umuntu wambaye umupira w'umuhondo wicaye ku ntebe y'umweru uri imbere y'icyapa cya banki ya kesibi. Inyuma ye hari inzu iriho ibigo by'itumanaho bya emutiyene na eyateri.

Abantu batatu bambaye amashati y'umweru bicaye imbere y'ameza ariho igitambaro cy'umuhondo, babiri muri bo bafite mudasobwa n'icupa ry'amazi, imbere yabo hari imbuga nini y'ibitaka irimo abantu benshi biganjemo abana, hakurya hari ibinyabiziga birimo amagare n'amapikipiki.

Umugore wambaye umupira w'umukara uri mu biro bifite igikuta cy'umweru n'amarido y'ubururu, wicaye imbere y'ameza y'umweru ariho impapuro na mudasobwa n'imashini yifashishwa mu gusohora impapuro zanditseho.

Umunara muremure ugizwe n'ibyuma byinshi bisobekeranije biteranyirije hamwe by'amabara y'umutuku n'umweru, ugoswe n'uruzitiro rw'ibyuma by'ikijuju, hari imigozi miremire itwara umuriro w'amashanyarazi, umunara wifashishwa mu itumanaho.

Serivisi y’irembo yo kuri murandasi igaragaza icyangombwa cyo gutura, igaragaza uko wagisaba kuri Minisiteri y’Ubutegetsi bw’Igihugu, bitwara umunsi umwe, bikaba bitwara amafaranga y’u Rwanda igihumbi magana atanu.

Itangazo ry'akazi ryashyizwe hanze n'ikigo gishinzwe gutsura amajyambere mu Rwanda aradibi rivuga ngo turi gutanga akazi wisunge ku ikipe yacu hakaba hari imyanya itandatu idafite abakozi, hakaba hariho intebe isobanura ngo harimo ubusa.

Itangazo ryashyizwe hanze n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, rishishikariza abantu kugaragaza imisoro yabo itishyuwe mbere y'uko umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu urangira, kugira ngo batazayishyura bagacibwa amande, bagomba kwishyura hagati y'ukwezi kwa gatatu taliki makumya n'ebyiri kugeza mu kwa gatandatu makumyabiri n'eshatu umwaka wa bibiri na makumyabiri n'ine.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, bimwe muri byo ni amagare abiri ahetse abagenzi ikindi nii ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru cyangwa se ikamyo kikoreye inyuma imizigo bashumikishije itente cyangwa se igitambaro cy'ubururu.

Ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko arimo voreboru, imbere yacyo hakaba hari amazu yubatse mu bwoko bumwe agiye atandukanye, n'ibiti biyakikije n'izindi ndabo ziri ku ruhande rw'ikibuga n'ibyatsi.

Umunara muremure w'ibyuma ufite ibikoresho birambuye niby'uruziga by'umweru byifashishwa mu itumanaho, uri hagati y'umuhanda wa kaburimbo urimo itara ryo ku muhanda n'ikibuga kinini gifite uruzitiro rw'ibiti, kirimo ibyatsi byinshi n'indabo n'amazu makeya.

Itangazo ry'akazi ryatanzwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro bimenyekanisha ko bari gutanga akazi, mwisunge mu itsinda ryabo, imyanya ihari umunyamwuga wo gukora amakuru.

urupapuro rwamamaza rw'umweru rwashyizwe hanze n'ikigo cy'ubucuruzi cy'irembo, urupapuro ruriho terefone nini, umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umweru n'imodoka y'umweru, hariho ubutumwa busobanura ngo kwiyandikisha mu kizamini cy'uruhushya rw'icyiciro kisumbuye, mu gikorwa cya byikoreye sura www irembo akadomo govu akadomo rw.

Urupapuro rwamamaza rw'ubururu rwashyizwe hanze n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ruriho igishushanyo cya telefone ngendanwa n'amafaranga y'inoti ya bitanu menshi y'u Rwanda ruriho gahunda ya tengamara ku musoro w'inyongeramusaruro.

Urupapuro ririho amabwiriza y'ukuntu wamenyekanisha icyangombwa cy'ubucuruzi k'igihembwe cya mbere cyangwa umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu, aho usura urubuga rw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro wawawa akadomo rara akadomo govu akadomo rwa ugakurikiza amabwiriza.

Urupapuro rw'itangazo rw'umweru n'ubururo rwashyizwe hanze n'ikigo cy'ubucuruzi gitanga serivisi cyitwa irembo kivuga ngo itangazo mu bufatanye n'ikigo gikuru cy'igihugu gishinzwe ubushinjacyaha na minisiteri y'ububanyi n'amahanga irembo yaguye ibikorwa byabyo gusaba icyemezo kigaragaza ko umuntu atafunzwe.

Urupapuro rw'ubururu ruriho uko wamenyekanisha ukanishyura umusoro ku mutungo utimukanwa bibiri na makumyabiri na kane, ujya ku rubuga rwa murandasi rw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda ugakurikiza amabwiriza ukinjira ahanditse imenyekanisha ugashyiramo tini yawe n'ijambobanga ugakurikiza amabwiriza.

Iyi shusho yashyizwe hanze n'ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda, iriho abantu barenga batandatu bambaye imipira y'umutuku n'abandi bambaye imyenda isanzwe, bafite ibikombe by'ishimwe bambaye n'imidari mu gatuza y'umweru, inyuma yabo hari urukuta rurerure rw'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo ufite igiti cy’amashanyarazi gikozwe mu isima, gifite imigozi itatu miremire itwaye amashanyarazi, gikikijwe n’ibiti birebire by’icyatsi n'umuyoboro w’amazi hari n'imodoka ndende itwara imizigo.

Inzu yo guturamo ifite igikuta cy'umuhondo ikagira n'umuryango w'ubururu yegeranye n'uruzitiro rw'amatafari ahiye afite umuryango w'ubururu n'inzu ifite igisenge cy'umutuku mu mbuga yayo haparitse imodoka ntoya y'umukara harimo n'igiti cy'amashami menshi.

Urubuga rwitwa eni ero eyi cyangwa nashono landi otoriti, rwifashishwa muri repubulika y'u Rwanda, aho itanga ku buryo bwihuse amakuru y'ingenzi ku butaka.

Ikipiki ebyiri z'amabara y'icyatsi n'umukara zikoresha umuriro w'amashanyarazi, ziri gucuruzwa imbere yazo hari ibyuma byifashishwa byongeramo umuriro n'abacuruza batatu bambaye imyenda y'akazi, hakurya hari abakiriya batatu n'inzu z'ubucuruzi z'amabara y'umuhondo.

Abagabo batanu bambaye imyenda y'umukara n'ingofero z'ubururu z'umwuga bambaye nka sentire mu nda zifashe ku munara bari hejuru y'umunara bari gukora umunara w'itumanaho.

Igiti kirekire k'icyuma kifashishwa hazirikwaho imigozi itanga amashanyarazi iyajyana mu ngo z'abantu, kiri kumwe n'igiti kirekire kiriho itara ryo muri uwo muhanda, biteretse hagati mu busitani bufite indabo ndende.

Umunara w'amashanyarazi w'ibyuma ufite imigozi uwushamikiyeho myinshi, ijyana kandi ikanatanga amashanyarazi mu baturage uri mw' ishyamba ry'ibiti bitoya biteye mu byatsi byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo icagaguye yifashishwa n'abanyamaguru kwambuka, ukikijwe n'inzu z'ubucuruzi, ziriho ibyapa byiganjemo iby'amabara y'umweru byamamaza ibigo by'ubucuruzi bicuruza ibikoresho byo kubaka, hari igiti cy'amashanyarazi gifite insinga zijyana umuriro kiriho n'itara ryo kumuhanda.

Umunara muremure ufite imigozi y'umukara ukozwe mu biti bisa umweru, ufite icyuma cyifashishwa mu gutanga amashanyarazi, uri hagati y'ubusitani burimo indabyo nyinshi n'ibiti birebire by'icyatsi.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Itangazo ryo kwamamariza ikigo gikoresha serivisi kuri murandasi kizwi nk'irembo iryo tangazo rivuga ko bafunguye uburyo bushyashya aho bakwishyura serivisi zo muri laboratwari bifashisha mu ibirembo, umunsi hari uburyo wabona aho wabashaka guhamagara kuri mirongo ikenda icyenda n'ikenda

Inzira ishashemo amabuye ya kizungu, isakajwe urusenge rw'umuhondo, ifite inkingi z'umuhondo irimo icyapa ndangamerekezo cy'aho bagucisha mu cyuma kwa muganga, ikikijwe n'amazu afite ibikuta by'umweru n'andi yubakishijwe amatafari ahiye.

Inzira y’abanyamaguru iri mu bitaro ifite ibyapa ndangaperekezo by’ubururu. Byerekana aho babagira indwara z’amaso, indwara z’abagore, n’indwara z’abana. Iri mu bitaro bifite ibikuta by’umweru n’amadirishya y'umweru n’umukara.

Amazu atatu ageretse yubakishijwe amatafari y'umweru asakajwe amabati y'umutuku afite imbuga nini irimo ibyatsi birimo indabo n'ibyuma by'umutuku bakoresha bananikaho imyenda.

Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubwo yarari kwiyamamaza agahaguruka mu modoka agasuhuza abaturage bamushagaye, bose bafite utwapa duto twanditseho efuperi, ndetse hari abajepe bari kumurinda bareba hirya no hino bamucungira umutekano.

Ikibuga kinini cya kaburimbo cyifashishwa gushyiramo imodoka gikikije ubusitani burimo indabyo, gifite uruzitiro rw'umuhondo n'ibiti birebire n'amatara ku muhanda.

Abantu bagera kuri cumi na babiri bambaye imyenda isa y'iroza isobanura ko ari abagororwa, bari kunyura mu muhanda w'ibitaka uri imbere y'uruzitiro rurerure rwubakishije amatafari ahiye, n'amabuye rusize irangi ry'umuhondo.

Ububiko bw'ibikarito by'umuhondo bigeretse kabiri, bigera kuri bitandatu bisa umuhondo byanditseho gacaca, biriho impapuro z'umweru ziriho imyirondoro ya ba nyiri ibikarito ziriho n'amazina yabo.

Uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari ahiye, rufite ijambo ryanditse hejuru gereza ya Nyarugenge, rufite aho binjirira hasi umukara ku muryango hari abantu bambaye imyenda y'iroza igaragaza abagororwa, imbere yabo hari umugabo umwe wambaye imyenda y'akazi.

Icyumba k'inama kirimo abantu batatu bicaye ku ntebe z'imbaho biteye umwitero w'idarapo ry'igihugu ry'u Rwanda agizwe n'amabara y'ubururu n'umuhondo n'icyatsi, imbere yabo hari ameza ariho amakayi n'impapuro na terefone, umwe muri bo afite ikaramu ari kwandika.

Igazeti ya reta (leta) ikubiyemo itegeko nimero mirongo itanu na kane akarongo kaberamye na cumi n'umunani ryatowe tariki cumi n'eshatu z'ukwa munani ,bibiri na cumi n'umunani ryerekeye kurwanya ruswa byatewe inteko ishinga amategeko ryemezwa n'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida Paul Kagame ko rishyirwa mu igazeti ya reta (leta).

Umugabo wogoshe wambaye amadarubindi y'umukara, wambaye imyenda y'iroza ifite igitambaro cy'umweru n'umukara hagati ikunda gukoreshwa n'abacamanza mu rukiko yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara ari imbere y'urukuta rwera.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara n'umweru, ikoreshwa mu kazi ko guca imanza, yambarwa n'abanyamwuga, umwe muri bo afite igitabo kera, bahagararanye n'undi mugore wogoshe wambaye amadarubindi wambaye imyenda y'iroza, yambikwa imfungwa zakatiwe.

Abantu benshi bateraniye mu mbuga biganjemo abambaye imyenda y'umweru, bamwe muri bo barakoma amashyi bishimye abandi bafite ibiti bibiri biriho igitambaro kinini cy'umweru cyanditseho inkiko gacaca ubutabera bwunga.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amadarubindi, uri guseka wambaye umupira wumweru ndetse ufite mudasobwa mu ntoki ze. Ari ku gapapuro k'ubururu kandidikishijweho amagambo yumweru ndetse n'ayumuhondo yanditswe mu kirimi cyamahanga cyicyongereza.

Umugabo wirabura wambaye amarinete y'umukara na kositimu y'ubururu nishati y'umweru na karuvati y'ubururu irimo imirongo y'ubururu n'umweru ufite icupa ryamazi imbere ye inyuma ye hari abakozi bandi.

Uruzitiro rurerure rufite imigozi y'ibyuma hejuru rwubakishijwe amatafari ahiye, rurimo amarangi y'umuhondo, rufite aho binjirira hasi ubururu n'umweru hinjira muri gereza y'abagabo. Hasi hari abashinzwe umutekano n'imfungwa zambaye imyenda y'abagororwa.

Umugore ufite imisatsi miremire, w'inzobe, wambaye ikanzu y'umutuku, ifite igitambaro cyumuhondo n'umukara mugatuza ahagaze imbere yurukuta rw'umweru.

Urupapuro rwera ruriho igazeti ya leta igaragaza itegeko nimero mirongo itanu na cumi n'umunani ryo ku wa cumi na gatatu z'ukwa munani bibiri na cumi n'umunani yerekeye kurwanya ruswa ryemejwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame ko rishyirwa mu igazeti ya leta nyuma y'aho inteko Ishinga Amategeko ibihamije perezida abishyiraho.

Abagabo benshi bari kugenda bagana ku nzu igeretse rimwe ifite amabati y'ubururu n'amadirishya y'umweru, bambaye amaroza agaragaza ko ari abagororwa n'abandi babiri bambaye imyenda y'akazi isobanuye ko ari abacungagereza.

Umugore w'umusatsi mukeya, wambaye ikanzu y'umutuku, n'igitambaro cy'umweru mu ijosi. Uhagaze imbere y'igikuta cy'umweru. Wambaye imyenda ifashishwa mu rukiko, nk'abacamanza.

Umugore wirabura ufite ibisuko biryamye by'umukara wambaye ishati y'umutuku n'umupira w'umweru, uhagaze imbere y'urukuta rw'umweru akenshi bakunda gukoresha bafata amashusho magufi.

Inama iteraniye mu kibuga cy'ibyatsi n'ibitaka irimo intebe zifite ameza zicayeho n'abantu bambaye imyitero igizwe n'idarapo ry'Igihugu ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hagati hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikigina, hakurya hicaye abantu benshi, ahandi hahagaze abandi.

Uruzitiro rurerure rw'umuhondo rufite icyapa cyanditseho igorora rya Musanze, ruriho ikirango cy'igorora n'ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda, rufite umuryango usa umukara, ukozwe mu byuma kigose ibiti birebire by'icyatsi.

Ikibuga kinini cy'ibitaka kirimo abashinzwe umutekano bambaye imyenda y'umukara, kikabamo imodoka ntoya nini ziganjemo iz'amabara y'umweru n'umukara, kirimo abiga gutwara imodoka n'ibikoresho byifashishwa mu gutwara imodoka.

Inzu iherereyemo ikigo gishinzwe umutekano mu rwanda polisi nkuru y'u rwanda. Kikaba giherereye i kigali mu karere ka gasabo akaba ari icyicaro cy'iremera, imbere yayo hari abagabo babiri bambaye imyenda y'akazi ya polisi.

Igikoresho cy'ubwirinzi bw'inkongi z'umuriro gitukura, kiriho amagambo y'uburyo bagikoresha gifite umupira w'umukara n'urufatisho rw'ubururu, kiba kibitse ifu y'umweru yifashishwa kugabanya cyangwa kuzimya inkongi y'umuriro.

Igikoresho cy'umutuku gifite umupira w'umweru, gikoreshwa gihe habaye inkongi y'umuriro, kigakoreshwa cyohereza imyuka yo kuzimya umuriro, kiri ku gikuta cy'umweru, munsi hari aho bajugunya imyanda.

Ibikoresho bibiri by'umutuku bifite ibifatisho by'icyatsi n'imigozi n'imipira yumukara, byifashishwa mu kuzimya no kugabanya inkongi yumuriro biba bifitemo ifu n'imyuka y,umweru.

Hoteri yitwa Regasi hoteri aho iherereye ikaba ifite amarangi y'umuhondo ndetse avanze na y'umweru, ikaba iri ahantu heza cyane ku muhanda hari amahumbezi hateye n'ibiti bishobora gutanga akayaga.

Igikoresho gifite umubiri w'icyuma utukura wanditseho amagambo mu nyuguti z'umweru, ku rupapuro rw'ubururu rufite umupira w'umukara rwifashishwa mu kuzimya umuriro mugihe habaye inkongi kimanitse ku gikuta cy'umweru.

Ibikoresho bitatu by'ubwirinzi bw'inkongi y'umuriro, harimo bibiri byohereza imyuka y'umweru kugirango bizimye umuriro n'ikindi kimwe cy'umutuku cy'umugozi kirekire gikoreshwa cyohereza amazi mu bice byafashwe n'inkongi zumuriro, biramanitse ku gikuta cy'umweru.

Mu muhanda wa Kaburimbo harimo ikinyabiziga cy'igare gitwawe n'umuyonzi wambaye umupira w'icyatsi n'ingofero y'umutuku n'ipantaro'umuhondo, hakurya ye hari abashinzwe umutekano bakorera polisi y'igihugu bane, hakurya abacuruzi b'iki cy'itumanaho cya emutiyene n'umushoferi w'ipikipiki n'imodoka zitwara imizigo zihetse ububiko bwi'cyatsi.

Ibikoresho bibiri bitukura bifite imipira y'umukara n'urufatiro rw'icyatsi byifashishwa mu kugabanya cyangwa gukumira inkongi y'umuriro, biba bifite ifu y'umweru indani biteretse kuri sima ifite imirongo y'umweru inyuma yabyo hari umufuka w'umweru.

Igikoresho cy'ubwirinzi gisa umutuku kiriho urupapuro ruriho amabwiriza y'uko bikoreshwa rufite igifatisho gifite ibara ry'icyuma, n'umugozi muremure ucamo imyuka y'umweru yo kuzimya umuriro, cyangwa ahafashwe n'inkongi y'umuriro, uriho agapapuro k'umuhondo n'umutuku, kariho imyirondoro kimanitse ku gikuta cy'umweru n'umutuku.

Umugore wambaye ijipo n'umupira uhetse agakapu ari kunyura ibiribwa by'akagari, bifite amadarapo abiri n'irangi ry'umweru n'amabati y'ubururu n'ibiti biteye mu mbuga yabo n'icyapa kigaragaza amerekezo.

Igikoresho cy'ubwirinzi bw'inkongi y'umuriro. Gitukura, kimanitse ku gikuta cy'umweru, gifite uruziga hagati, rusa umukara. Cyifashishwa mu kuzimya no kugabanya inkongi z'umuriro. Iruhande hari igipapuro cy'ubururu n'umweru.

Umugore wambaye ikositimu y'umweru yicaye mu biro bifite igikuta cy'umweru, ku ntebe y'umukara, imbere y'ameza ariho idarapo, impapuro, afite n'ikaramu mu ntoki.

Muri iyi foto harimo haragaragara abagabo babiri umwe wambaye ishati y'umweru n'undi wambaye ikote, ku meza hariho ikinyobwa cy'amazi cy'uruganda Inyange indasitirizi, inyuma haragaragara nk'aho hari ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Ibitambaro bitatu binini by'umweru biriho amashusho y'umukandida Muhiyimana Philippe, wiyamamariza kuba umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda n'intego ze yakubiye mu madanage, hariho amagambo yanditse mu nyuguti z'ubururu indi ntambwe.

Abagore bane batatu muri bo bambaye amakanzu undi umwe yambaye ikositimu y'abagore bifotoreje hagati y'amadarako abiri rimwe ririmo ikirango cy'igihugu irindi rifite amabara yubahiriza igihugu ubururu, umuhondo, icyatsi ririmo n'izuba n'ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame.

Abantu bane, barimo abagabo babiri bambaye kositimu, n'abagore babiri bakenyeye, bahagaze bafashe ku idarapo, bazamuye ikiganza cy'iburyo, bari gukora igikorwa cyo kurahira. Inyuma yabo hari insakazamashusho nini. N'umugore ufite imfatamajwi.

Umugore w'imisatsi y'umukara wambaye umukufe wambaye n'ikanzu y'igitenge kiganjemo amabara y'umweru ufite igitabo cy'umweru n'umukara uhagaze imbere y'indabyo n'imbere y'inzu.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi n'amadarubindi y'umukara n'ipantaro y'ubururu uri imbere y'igikarito giteretse ku kameza gato k'umweru kiifashwishwa mu bikorwa by'itora afite urupapuro ari gutora ari mu cyumba gifite ibikuta by'umweru biriho igishushanyo gishushanyijeho ibirunga.

Umugabo uri mucyumba cy'inama wicaye ku ntebe y'umukara wambaye kositimu y'ubururu n'ishati y'umweru na karuvati y'ubururu, ufite terefone uri gufata amashusho inyuma ye hari ameza ariho imfatamajwi n'icupa ry'amazi.

Abantu batandatu harimo abagabo batatu bambaye amakositimu n'abagore batatu bambaye amakanzu, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo bakikijwe n'ubusitani burimo ibyapa ndangamerekezo, inyuma yabo hari imodoka ntoya y'umukara n'uruzitiro rusa ikijuju.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, umukandara w'umutuku n'ipantalo y'umukara n'ingofero y'umukara ari imbere y'abantu benshi bambaye imipira y'umweru n'ubururu n'ingofero z'umutuku n'ubururu bafite amadapo agaragaza ishyaka rya politiki, imbere y'abo hari umugabo wambaye ijire y'umutuku irimo ikimenyetso cy'umusaraba.

Imbuga nini iri imbere y'amazu y'ubucuruzi atatu; abiri y'umuhondo, imwe y'ubururu. Ihagazemo abagabo bane; batatu begeranye umwe muri bo ufite isakazamajwi n'immpapuro z'umweru mu ntoki ze. Inyuma ye harigo abagore babiri bicaye imbere yabo hari ameza atwikijeho ibitambaro by'umweru inyuma yabo hari ibitambaro by'umweru biriho ifoto n'ibishushanyo bigaragaza amadanage.

Abantu barenga batandatu barahagaze, batatu muri bo babagore n'umugabo umwe, bafite ishusho y'umugabo uri kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu ufite ibimenyetso by'amadanage mu kwiyamamaza kwe, inyuma yabo hari inzu z'ubucuruzi zifite amabara y'umweru.

Amakuru murimi rw'icyongereza ari gutambuka kunsakazamashusho agaragaza abantu benshi bari kwamamaza umukandida harimo umugabo umwe wambaye umupira w'umweru ufite urupapuro ruriho ifoto y'umukandida dr frank Habineza w'ishyaka rya girini pati n'amagambo tora.

Umugore wambaye amadarubindi y'umukara ikoti ry'umuhondo n'ikanzu y'umukara, wicaye ku ntebe y'umukara uri hagati y'amadarapo abiri rimwe ririho ikirango k'igihugu n'irindi ry'amabara yigihugu arimo ubururu, umuhondo n'icyatsi, inyuma ye hari urukuta rwera.

Umugore wambaye amadarubindi y'umukara ukenye umukenyero w'umutuku, wambaye umupira w'umweru n'umukufi, uzamuye akaboko mu gikorwa cyo kurahira, ufashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda rigizwe n'amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi ririho n'izuba, ari imbere y'igikuta cy'ikigina.

Abaturage benshi biganjemo abambaye imipira y'icyatsi, bamanitse amadarapo y'umweru ariho umukandida w'ishyaka rya girini pati, bazengurutse imodoka iriho ifoto y'umukandida, umukandida wabo ahagaze hejuru y'imodoka, yambaye ishati y'icyatsi irimo ikora ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo hari imodoka y'ikigo gishinzwe gutwara ibintu cya Ritiko rimitedi, imodoka nini itwara ibintu n'abantu, umuhanda w'abagenzi harimo umunyamaguru wikoreye umufuka, hakurya hari ishyamba ryibiti birebire.

Ihuriro ry'imihanda ririmo imodoka ndende y'umweru itwara imizigo, imodoka ndende y'umweru n'ubuuburu itwara ibintu n'abantu, imodoka ntoya y'umweru n'amapikipiki n'abanyamaguru bari kwambuka, hakuno hari umuhanda w'abagenzi n'inzira y'amazi.

Umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ukikijwe na jaride irimo indabyo z'umuhondo n'icyatsi. Ukongera ugakikizwa n'ibiti birebire n'amatara yo ku muhanda asa umweru n'ubururu. Umuhanda urimo imodoka y'ikijuju iri kubisikana n'izindi modoka ntoya.

Ipikipiki itwawe n'umumotari wambaye isengeri y'akazi y'umuhondo n'ingofero y'ubwirinzi y'umutuku, ari mu umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru, ukikijwe n'uruzitiro rw'umweru ruriho ibiti by'amashanyarazi n'itara ryo ku muhanda n'ibiti birebire.

Umuhanda wa Kaburimbo ahaciye imirongo y'umweru yagenewe guhagarikamo imodoka. Harimo imodoka ntoya y' umweru ikoreshwa mu gutwara abagenzi n' ibintu byabo, iruhande hahagaze abagabo babiri. Umwe utagaragara wambaye ishati n' ipanaro n' inkweto z' umukara, n'undi wambaye umupira n' ikabutura y' umweru n' inkweto z' umukara n' umweru. Hakurya hari inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho bya terefone.

Ibinyabiziga bine bikubisikana mumuhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini itwara abagenzi moto itwara imizigo n'imodoka ntoya hakurya haparitse imodoka ntoya hari n'umuhanda w'abanyamaguru n'ishyamba ryibiti byinshi.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu n'imodoka, abantu bagenza amaguru n'imodoka inini ni ntoya z'umweru zifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu byabo, hari imiturirwa iri hakurya miremire yakamo amatara n'iminara miremire.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru uri kunyuramo imodoka ndende y'amabara y'umweru nubururu, ihetse ububiko busa umweru, hakurya hari itara ryo kumuhanda, umuhanda w'ababagenzi harimo umugenzi wambaye isarubeti y'akazi wikoreye umufuka umwe hakurya'uruzitiro rw'cyatsi ruzitiye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitatu birimo bibiri by'amagare, rimwe rihetse umugenzi n'imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso y'umutuku ihetse umucanga, hakurya hari ishyamba rirerire n'ubusitani burimo indabyo ngufi, hakuno hari umuyoboro w'amazi n'umuhanda w'abanyamaguru urimo umugenzi.

Mu muhanda wa kaburimbo munini urimo imodoka nini yifashishwa gutwara abantu n'ibintu isa umuhondo n'umweru, iburyo bwayo hari umunyamaguru uri kugenda mu muhanda n'amaguru, ibumoso bwe hari umuyoboro w'amazi, hakurya y'imodoka hari uruzitiro rw'icyatsi ruzitiye ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byinshi, birimo amapikipiki ahetse abagenzi, imodoka nini ihetse ububiko busa ubururu buriho ikimenyetso cy'umweru n'izindi modoka ntoya z'umweru n'umukara, hari n'umuhanda w'abanyamaguru urimo abanyamaguru bagera kuri bane bari kugenda.

Umugabo n'umudamu bari mu nama, aho bari kuganira ku ngingo zimwe na zimwe, aho imbere yabo hari mikoro, byumvikana ko bari kuganiza abandi bantu ku ngingo zimwe na zimwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini y'umweru n'umutuku yifashishwa gutwara imizigo, ihetse amabuye yo kubakisha ibisikanye n'imodoka ihetse ububiko busa umukara, hakuno hari umuhanda w'abagenzi n'umuyoboro w'amazi, hakurya uruzitiro rw'icyatsi ruzitiye ibiti birebire by'icyatsi n'ubusitani.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru, urimo ibinyabiziga bibiri harimo igare risunitswe n'umuyonzi rihetse umufuka w'umweru, iruhande rwayo hari ipikipiki yifashishwa gutwara imizigo, hakurya hari uruzitiro rw'icyatsi ruzitiye ibiti hagati yayo n'umuhanda hari umuhanda w'abanyamaguru.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo urubyiruko bagiye gutega amamodoka muri gare, hari amamodoka manini y'ikigo gishinzwe gutwara abantu ya Ritiko asa umweru n'icyatsi hari kwaka amatara yo kumuhanda nijoro.

Ku muhanda munini wa kaburimbo urimo imodoka nini itwara imizigo izwi nka romoroki, isa umweru yikoreye ububiko butukura, hakurya hari uruzitiro rw'icyatsi ruzitiye ibiti birebire biri kumwe n'umuhanda w'abanyamaguru, hakuno hari umuyoboro w'amazi ufite hejuru ibiraro.

Imodoka nini y’umweru yo mu bwoko bwa fuso ihetse imodoka ntoya y'umweru yo mu bwoko bwa Toyota. Uyu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n’uruzitiro rw’icyatsi ruzitiye ishyamba ry’ibiti bitoya, birebire hakuno hari umuyoboro w’amazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitatu by'amagare kimwe cyegamyeho umugabo wambaye ikoboyi, umuhanda urimo ikinyabiziga kinini gitwara abagenzi cy'umweru, harimo amatara y'umuhanda n'imodoka icanye amatara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga kinini gitwara abantu n'ibintu gifite amabara y'ubururu n'umweru, umuhanda ukaba ufite uruzitiro rw'icyatsi ruzitiye ubusitani burimo ibiti birebire by'icyatsi, hakaba hari n'umuyoboro w'amazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini izwi mu bwoko bwa dayihatsu y'umweru, inyuma hari umukozi wambaye ingofero y'akazi y'ubwirinzi n'igisarubeti cy'ubururu, ifite uruzitiro rusa icyatsi, hakurya hari ibiti birebire.

Umuhanda urimo urusobe rw'ibinyabiziga bikubiyemo amagare ahetse abagenzi, n'amapikipi ahetse abagenzi, n'imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu ihetse ububiko bw'ibintu busa umweru, hari umuhanda w'abanyamaguru uri gucamo abagenzi bagenza amaguru.

Ikibuga kinini gishashwemo amabuye angana kandi abajwe neza kirimo imodoka zisa ubururu ndende zifashishwa gutwara abagenzi n'ibintu byabo hari n'aho abanyamaguru bicara hatwikiriye hasa ibara ry'umutuku hagoswe n'inzu y'ubucuruzi isa umuhondo.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso ifite amabara y'ikijuju, umweru n'ubururu, ihetse imizigo itwikiriwe n'igitambaro cy'icyatsi, imbere yayo hahagaze umugore wambaye ikanzu y'umuhondo n'umugabo wegamiye imifuka irenga itandatu y'umweru.

Iduka rinini ririmo ibijyanye n'ibyombo byinshi, harimo n'abantu abagurisha ibyo bintu, n'abandi baje kugura ibyo bintu birimwo muri iryo duka.

Umuhanda wa Kaburimbo ukikijwe n’umuyoboro w’amazi n’inzira y’abanyamaguru , irimo abanyamaguru bagenda n’uruzitiro rw’icyatsi ruzitiye ibiti birebire, urimo imodoka nini itwara imizigo ihetse, imizigo itwikiwe ni gitambaro cy’ubururu, imodoka ifite ibara ry’umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bibiri harimo igare ritwawe n'umunyonzi ,n'imodoka ndende y'umweru yikorera imizigo, ifite umuzigo upfundikijwe n'igitambaro cy'umukara, hakurya hari uruzitiro rw'icyatsi ruzitiye ibiti birebire hakuno har' umuyobo w'amazi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kwakamo amatara n'ijoro urimo icyapa cyo ku muhanda cy'ibara ry'ubururu kirimo akamenyetso k'umweru, umuhanda urimo ibinyabiziga bikubiyemo amapikipiki, amamodoka mato y'umweru n'umutuku n'imodoka nini z'umutuku.

Ku muhanda wa kaburimbo ushanyijemo imirongo y'umweru urimo ipikipiki itwawe n'umumotari wambaye umwenda w'akazi w'umuhondo uhetse umugenzi wambaye ingofero y'umutuku y'ubwirinzi ukikijwe na jaride, iteyemo ibiti birebire by'icyatsi ikikijwe n'uruzitiro rw'umweru ahari n'itara ryo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bibisikana birimo imodoka ebyiri ntoya z'umweru n'umukara n'amapikipiki abiri ahetse abagenzi, n'muhanda w'abanyamaguru urimo umugenzi bambaye ikoti ry'icyatsi, hakurya y'uruzitiro rw'icyatsi ruzitiye ibiti hakuno hari umuyoboro w'amazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini itwara amazi, ihetse ikigega cy'ubururu cy'amazi. Uzengurutswe n'uruzitiro rw'icyatsi ruzitiye ibiti birebire kandi hari n'itara ryo ku muhanda.

Ikamyo yo mu bwoko bwa fuso y'amabara y'umweru, ihetse imifuka myinshi y'umweru itwikirijwe n'igitambaro cy'ubururu izirikishijwe n'imigozi y'umukara, iri mu muhanda wa kaburimbo iri kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bibiri. Kimwe imodoka ntoya itwara abagenzi n'ibintu byabo, n'ipikipiki itwara imizigo, y'ubururu. Mu muhanda harimo abagenzi; umwe wambayekositimu, n'undi mugore wambaye icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki y'ubururu, yifashishwa mu gutwara imizigo, .fite uruzitiro rwUicyatsi ruzitiye ibiti birebire, na modoka ndende ihetse imifuka y'umuhondo.

Imodoka eshatu zirakurikiranye ebyiri muri zo ni imodokadoka ntoya z'umweru zitwara abantu nibintu byabo, iri imbere ni imodoka ndende y'ubururu itwara abantu n'ibintu byabo, hakuno hari abagenzi abacuruzi n'abaguzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini y'umweru yifashishwa mu gutwara amazi, ihetse ikigega cy'ubururu cyanditseho ikigega cy'amazi mu nyuguti z'umweru, hakurya hari uruzitiro rw'icyatsi ruzitiye ibiti birebire n'ubusitani burimo indabo.

Imodoka yo mu bwoko bunini izwi nka rumoroki, ihetse ububiko bw'ibara ry'ubururu iri mu muhanda wa kaburimbo, iburyo bwabo hahagaze ibinyabiziga birimo imodoka ntoya y'umweru n'ipikipiki, ibumoso bwabo mu muhanda hari ikinyabiziga cy'igare gihetse n'ikinyabiziga cy'ikamyo izwi nka fuso y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru, uririmo n'ikinyabiziga cy'imodoka ntoya cy'ubururu, ukikijwe n'umuhanda w’abanyamaguru, n'ibiti birebire n'ibyapa ndangaperekezo, n'amatara yo kumuhanda n'ibiti by'amashanyarazi.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bibiri, harimo kimwe cyo mu bwoko bw'imodoka nini isa umweru ifashwa guheka imizigo ihetse umuzigo utwikijwe n'igitambaro cy'ubwoko bw'ishitingi gisa icyatsi, hakurya hari uruzitiro rw'icyatsi ruzitiye, ibiti birebire bifite ibyatsi, hakuno hari umuyoboro w'amazi n'umuhanda w'abanyamaguru.

Ipikipiki eshatu, zirimo ebyiri zitwara abagenzi n'indi imwe itwara imizigo, ziri mu mukono umwe w'umuhanda wa kaburimbo, ibumoso bwabo hari amazu abiri y'ubucuruzi, imwe itukura n'indi yera, imbere y'inzu y'ubucuruzi itukura, haparitse amamodoka menshi higanjemo ay'umukara n'iy'umweru imwe.

Imbuga ishashemo amabuye abaje arimo n'ubusitani afite intebe zo kwicaraho iriho abagabo babiri umwe bambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu n'undi wambaye umupira n'inkweto z'umuhondo hakurya hari akazu k'ubucuruzi kubatswe mu biti n'ibirahure umuhanda nyabagendwa ugenderamo abantu bagendaza amaguru hakurya hari umuturirwa wubatse mu birahuri.

Ikibuga cy'ibitaka kirimo imirongo y'umweru gifite inshundura ziri hagati zifashe ku byuma by'umweru, gikinirwamo umukino w'amaboko uzwi nka tenisi. Inyuma hari imyanya yaho abantu baje kureba umukino bicara hasakaye, iruhande hari ibyuma by'ubururu.

Ikibuga cy'ibitaka giciyemo imirongo y'umweru gifite n'inshundura hagati gikinirwaho umukino w'amaboko witwa tenisi hakurya hari aho abafana bicara, hakurya hari ishyamba ry'ibiti byinshi.

Amazu maremare yubakishijwe amatafari ahiye asakajwe amabati y'umutuku, afite ibigega bifata amazi by'umukara hejuru yabyo, imbere yabo hari inzu y'umuhondo isakajwe amabati y'ubururu, ifite amatara yo ku muhanda n'ubusitani burimo indabyo ngufi.

Ibibuga bibiri by'ibitaka by'umuhondo n'umutuku, bishushanyijemo imirongo y'umweru bifite inshundura hagati, byifashishwa mu gukina umukino w'amaboko wa tenisi, bifite ibiti by'umweru hagati, bikaba bizengurutswe n'ibiti by'amashyamba birebire.

Ikibuga kinini cy'ibyatsi bari gukiniramo umupira abantu barenga cumi na babiri, kirimo amazamu y'umweru abiri, kikaba gifite amashyamba agikikije y'ibiti birebire, kiba gifite n'umuhanda w'ibitaka ugikikije.

Ikibuga cy'amabara y'icyatsi n'umutuku gifite ibyuma bizamuye biriho urubaho ruriho inshundura, inyuma yabo hari ubusitani burimo ibiti birebire rufite uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo igiti cy'amashanyarazi gifite imigozi y'umuriro itatu igifasheho harimo icyapa ndangaperekezo cyanditseho kaka magana ane mirongo itatu n'icyenda ufatanye n'umuhanda wamabuye urimo imodoka ntoya y'ubururu ukagira ibiti kuruhande n'ibyatsi.

Icyapa cyo mu muhanda cya mpade enye kigizwe n'amabara y'umuhondo n'umukara, kirimo ikimenyetso kigonze gisobanura ngo ntabwo wemerewe gukatira aha ngaha.

Icyapa ndangamerekezo cy'icyatsi giteye mu busitani burimo ishyamba ukagira n'umuhanda w'abanyamaguru ushashemo amabuye ya kizungu yitwa amapave, icyapa kiriho amerecyezo ajya mu mujyi wa Kigali, ajya mu Rugunga ajya no ku kibuga gikuru cy'indege cya Kigali i Kanombe.

Umuhanda wamabuye ukikijwe n'ubusitani n'ibiti birebire, urimo abakozi bo mu muhanda bambaye amasengeri y'icyatsi n'ipikipiki itwawe n'umumotari wambaye isengeri y'umuhondo, urimo icyapa cy'umutuku n'umweru gisobanura ngo umuntu ari ku kazi.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru icagaguye n'igororotse. Urimo ibinyabiziga birimo ipikipiki n'imodoka ntoya y'umweru. Hari icyapa ku muhanda kigaragaza ngo hemerewe guhagarara, hari ubusitani butoya buzengurutswe n'ishyamba ry'ibiti birebire.

Icyapa cya mpandeshatu kigizwe n'amabara y'umutuku umuhondo n'umukara, kirimo imirongo itambitse ingana yifashishwa n'abanyamaguru kwambuka hagati mu muhanda.

Ku muhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umuhondo, hariho itara ryo ku muhanda ririho icyapa cyamamaza cy'ubururu, hari n'ubusitani burimo indabo z'icyatsi, hakurya hari inzu igeretse gatatu ifite amarange y'umuhondo.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imirongo y'umuhondo n'iyumweru icagaguye, ufite umwanya w'aho imodoka zihagarara zitwara abagenzi, ufite amatara mu muhanda n'ubusitani burimo indabyo ndende. Ugoswe n'ibiti birebire n'imihanda y'abanyamaguru irimo abagenzi.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza amatara yo mu muhanda, iry'umutuku risobanura ngo, hagarara iry'umuhondo risobanura ngo itegure kugenda, n'itarara ry'icyatsi risobanura ngo genda.

Icyapa cyo mu muhanda kigizwe n'uruziga rw'umutuku n'iibimenyetso bireba amerekezo atandukanye, gisobanura ko uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe winjiye mu muhanda wibyerekezo bibisikana.

Ihuriro ry'imihanda ibiri ya kaburimbo irimo imirongo irambuye y'umweru. Harimo imodoka ntoya y'amabara y'ubururu ifite ibirahure by'umukara. Izengurutse ubusitani burimo ibyapa bibiri by'umweru n'ubururu ndangamerekezo.

Icyapa cyo mu muhanda, cya mpande enye zitangana, cy'amabara y'umweru n'umukara, kirimo uruziga ruciye mu umurongo rw'umutuku, n'igishushanyo cy'imodoka bisobanuye ngo nta modoka ihemerewe kuhanyura.

Icyapa cyo mu muhanda cy'uruziga rw'umutuku n'umurongo unyujijemo hagati, kirimo ikimenyetso cy'imodoka nini yo mu bwoko bw'ikamyo, bisobanura ngo umuhanda ntiwemerewe gukoreshwa n'amakamyo ahetse imizigo.

Icyapa cy'umuhondo kirimo imirongo y'umukara gihagaze ku cyuma cy'ikijuju, imbere yaho hariho ibikoresho byo mu muhanda by'iroza n'umweru n'ingofero z'ubwirinzi mu bwubatsi, kiriho ikimenyetso cyanditse mu mabara y'umuhondo n'inyuguti z'umukara kivuga ngo hari kubakwa.

Ikibuga cyumupira cyubakiye bya kijyambere kiri ku kumusozi hejuru gikikijwe n'amazu menshi yo guturamo afite ibisenge by'umutuku akikijwe nibiti, n'amashyamba akikijwe nandi mazu maremare y'umutuku.

Amazu aherereye ku muhanda wa kaburimbo ufite igiti cy'amashanyarazi, amwe muri yo ateka karabasasa afite amabati y'umutuku, andi arageretse afite irangi ryumweru n'amabati ya oranje.

Ibiti birebire kandi byinshi biri hagati y'amazu yo guturamo harimo ay'umuhondo afite ibisenge bitukura n'afite ibisenge by'ubururu, hari n'imitererwa miremire ifite ibyuma bikoreshwa mu kubaka hejuru yabyo.

Inzu ndende y'ubucuruzi igizwe n'ibikuta by'umuhondo n'umweru wijimye n'ibirahuri by'umukara, ifite ibyapa byamamaza ibigo by'ubucuruzi, hasi hahagaze ibinyabiziga n'abagenzi byiganjemo imodoka ntoya n'amapikipiki.

Ipikipiki yifashishwa gutwara abantu n'ibintu iri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, mu buryo bwayo hari inzu y'ubucuruzi igeretse gatatu, hakuno hari ibiti byinshi hakurya hari umuhanda w'abagenzi bagenda n'amaguru.

Amazu yo guturamo ageretse kane afite ibikuta by'umuhondo n'amadirishya y'umukara hejuru haca imigozi y'amashanyarazi y'umukara, ikikijwe n'ubusitani bufite ibiti birebire kandi afite uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye n'ibyuma by'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo ukatira ubusitani burimo ibiti birebire by'icyatsi n'amatara yo kumuhanda, hakurya hari umuturirwa muremure ufite ibikuta by'umuhondo n'ibirahure by'bururu.

Ihuriro ry'imihanda ibiri ya kaburimbo iciyemo imirongo y'umuhondo n'iy'umweru icagaguye abanyamaguru bakoresha bambuka, harimo ikinyabiziga cy'igare kiri kwambukiranya umuhanda umwe cyambuka undi, hakurya hari amazu yo guturamo n'ubusitani burimo ibiti birebire, hagati y'umuhanda w'abanyamaguru harimo abanyamaguru bari kugenda n'itara ryo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uzamuka uteganye n'utambika, urimo imirongo y'umweru icagaguye ibyimbye yerekana aho abanyamaguru bambukira, irimo ipikipiki y'umutuku itwawe n'umumotari wambaye ingofero y'ubwirinzi y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo munini ushushanyijemo imirongo y'umuhondo ni iy'umweru icagaguye abanyamaguru bifashisha bambuka, hari n'amatara yo kumuhanda afasha ibinyabiziga kugenda no guhagarara ari kwakamo icyatsi, umuhanda ugoswe n'ibiti birebire.

Imihanda isobekeranye umwe uca hejuru y'undi ukoreshwa nk'ikiraro. Umuhanda wo munsi urimo umunyonzi utwaraye igare ry'umukara wambaye ipantaro n'umupira w'umweru n'inkweto z'umweru, umuhanda wo hejuru ufite ubusitani burimo ibiti birebire.

Ihuriro ry'imihanda itatu minini ya kaburimbo irimo itara ryo kumuhanda, igiti k'icyuma cy'amashanyarazi, ikikijwe n'ishyamba n'ubusitani bw'icyatsi umuhanda harimo ikinyabiziga gitoya cy'umukara.

Ubusitani burimo indabyo n'ibiti birebire, burimo n'icyuma cyifashishwa mu gufata amashusho, y'umuvuduko kikabika amakuru kikanayatanga ku nzego zibishinzwe, gishinzwe gufata amakosa yabereye mu muhanda.

Ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo ririmo imirongo y'umuhondo n'imirongo y'umweru abanyamaguru bifashisha bambuka, ririmo amatara yo ku kumuhanda n'amatara yo mu muhanda yifashishwa mu kwemerera imodoka kugenda no kuzihagarika, akikijwe n'inzu y'ubucuruzi y'umweru na sitasiyo ya risansi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru icagaguye, urimo ibinyabiziga byiganjemo amapikipiki n'imodoka imwe ntoya y'umukara, umuhanda w'abanyamaguru harimo umugenzi umwe uri kugenda n'akazu kifashishwa abanyamaguru bicagaho, hari icyapa kigaragaza ko ntihemerewe guhagarara hakaba hagoswe n'ibiti birebire.

Ihuriro ry'imihanda ibiri irimo imirongo y'umuhondo n'iy'umweru abanyamaguru bakoresha bambukiramo, harimo ibinyabiziga byinshi bibiri by'imodoka nini imwe itwara imizigo n'indi itwara abagenzi, n'imodoka ntoya n'amapikipiki ahetse abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru irambuye, ukikijwe n'umuhanda w'abanyamaguru n'ubusitani bw'icyatsi, urimo ipikipiki rimwe n'igare rimwe rifite umuyonzi uhetse umugenzi, rikikijwe n'ishyamba ry'ibiti byinshi.

Imihanda ibiri ya kaburimbo isobekeranyije, umwe uca hejuru y'undi ukora nk'ikiraro, hasi harimo ibinyabiziga bine amapikipiki atatu n'imodoka ntoya yikorera imizigo amamoto atwaye abagenzi, imizigo ipfundikiwe n'igitambaro cy'ubururu.

Ihuriro ry'imihanda ririmo imirongo y'umuhondo, n'imirongo y'umweru, abanyamaguru bakoresha bambuka, n'amatara y'amabara yo ku muhanda bakoresha bagenda, n'amatara batsa nijoro n'ishyamba ry'ibiti byinshi, n'ibinyabiziga bitoya by'amamodoka, n'amamoto atwara abagenzi.

Ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo irimo imodoka eshatu zera ebyiri ndende imwe yikorera imizigo n'indi itwara abantu, harimo imirongo y'umweru abanyamaguru bakoresha bambuka hariho itara ry'umuhanda, hakurya hari ishyamba ry'ibiti birebire na jaride hagati y'imihanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo irambuye y'umweru n'imirongo iringaniye minini y'umweru abanyamaguru bakoresha bambuka, urimo ibyapa ndangamerekezo, urimo ipikipiki ukabamo n'amatara yo ku muhanda ukikijwe n'ishyamba ry'ibiti birebire.

Imihanda inyuranamo imwe inyura hejuru iyindi ikora nk'ikiraro umuhanda harimo ikinyabiziga k'igare gitwawe n'umuntu, umuhanda w'abagenzi hari gucamo abagenzi babiri umwe ufite umufuka n'undi wambaye umupira w' imbeho, hakurya hari umuturirwa muremure utatswe n'amatara.